Abanyeshuri bari gukinira imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, inzugi n'amadirishya bisa ubururu, isakaje amabati, imbere hari ubusitani ndetse n'ibigega bisa umukara bifata amazi.

Abana bari gukina mu byicungo bisize amabara y'icyatsi, umuhondo, umutuku, ubururu ndetse hashushanyijeho ibikinisho by'abana.

Umugabo witeze igitambaro mu mutwe ari kumwe n'umwana imbere hari urukuta rw'inzu rushushanyijeho inanasi, ibishyimbo, ubunyobwa, inyanya n'imineke.

Umuhanda w'igitaka, impande hari ikigega gifata amazi, gisa umukara ndetse n'inyubako yubakishije amatafari ,isakaje amabati asa ubururu.

Ikibuga kinini kirimo imyicungo y'abana bari gukina benshi, hari n'ababyeyi babo bahagaze imbere, hakikijwe n'ishyamba ry'inzitane ryinshi n'amapoto y'insinga z'amashanyarazi.

Imbwa isa umweru n'umukara iri kwirunka, imbere yayo hari umupira usize icyatsi n'umutuku ndetse n'amabuye menshi.

Inzu isize irange ry'umuhondo, idirishya rifunguye, mo imbere harimo umwana uhagaze, ishushanyijeho imimero y'ibishyimbo isa icyatsi.

Umwana uri ku mwicungo ufite ibikinisho byinshi biri mu mabara: icyatsi, ubururu, umuhondo, ari gukina n'abandi bana.

Inzu isize irangi ry'umuhondo ifite idirishya risize umukara, hashushanyijeho ibiti ikibabi cy'umwumbati, inkoko ndetse n'inyama.

Abanyeshuri babiri umukobwa n'umuhungu, bambaye impuzankano zisa, bahetse ibikapu mu mugongo, bari gutambuka mu muhanda impande ukikijwe n'ishyamba ry'inzitane.

Ubukarabiro buri ahantu mu kayira, impande hari indabyo ndetse inyuma ishyamba ry'ibiti, hagazemo umwana wambaye ishati y'umweru n'ikabutura.

Igikuta cy'inzu gisize irangi ry'umweru, hashushanyijeho ibase mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweyo usa umukara. Impande hahagaze umuntu wambaye inkweto n'amasogisi y'umutuku mu muryango ufunguye.

Icyumba gitatse imitako ku gikuta harimo ibikinisho by'abana biri mu mabara atandukanye, umutuku, icyatsi, umweru, ubururu n'umuhondo.

Icyumba kinini gifite umuryango ufunguye n'idirishya, gisize irangi ry'umweru n'umuhondo harimo ameza ndetse n'intebe hariho ibikoresho byo gushushanya.

Ikigo k'ishuri gisakaje amabati ay'ubururu ndetse n'inzugi n'amadirishya bisa umukara, hari ikigega gifata amazi ndetse n'ibiti by'ubwoko bwinshi.

Umuhanda w'igitaka iruhande hari umurima munini uhinzemo ibigori, harimo n'ibiti bihagaze inyuma, inzu zubakishije amatafari ahiye zisakaje amabati.

Icyumba kinini gisize, irangi ry'umuhondo, ku gikuta hariho, imitako n'ibishushanyo. Mo imbere harimo ibikinisho by'abana bifiri mumabara umutuku, ubururu, icyatsi, umukara, n'ibindi.

Inzu isakaje amabati y'umutuku, urugi rusa ubururu n'amadirishya, ikikijwe n'imirima irimo ibyatsi.

Urupapuro rushushanyijeho: ingofero, umuneke, voka, ijipo, isahani, inkweto, ipantaro, radiyo ndetse n'ururabo.

Ibikoresho by'ububaji n'ubwubatsi harimo inyundo, urukero, umukasi, ishoka, ndetse n'ibindi bipima uburebure.

Abanyeshuri bahagaze kumurongo bambaye impuzankano zisa, ndetse n'udupfukamunwa bari, impande y'umuhanda, inyuma yabo hari urugi runini, n'inyubako ndende.

Icyumba cyi'bitabo, gisize irangi ry'umuhondo, harimo akabati gapakiyemo ibitabo by'amoko atandukanye biri mabara y'umutuku, ubururu, icyatsi n'umuhondo.

Abantu bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'umukara bahagaze mu kibuga kirimo ibyatsi, harimo umwicungo usize ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati.

Abantu batatu bose bambaye udupfukamuwa, bafite ikarito mu ntoki buri wese afasheho, inyuma yabo hari inyubako zubakishije amatafari ahiye.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati, iriho igishushanyo kerekana ikigo mu nyuguti z'umukara, gisize irangi ry'umweru.

Icyumba kirimo ibikinisho byabana biri mu mabara atandukanye icyatsi, ubururu, umutuku, iroza, n'umuhondo, bishushanyije mu nzu ndetse binamanitse.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi iruhande hari amashuri yubakishije amatafari ahiye isize irange ry'umuhondo asakaje amabati ndetse iruhande ibiti.

Icyapa gisa umwero cyanditseho n'amagambo y'ubururu kerekana ishuri kiri impande y'umuhanda hari ibyatsi ndetse indabyo n'ibiti.

Urupapuro rushushanyijeho abanyeshuri bambaye impuzankano, bafite ibitabo mu ntoki ndetse ku ruhande hariho amagambo bari kuvuga mu nyuguti.

Umugore n'umugabo bambaye agapfukamunwa, bari imbere y'abana babiri, umukobwa n'umuhungu bambaye impuzankano zisa, inyuma yabo hari ameza ariho ibitambaro bisa icyatsi n'umuhondo n'intebe ihari.

Umwana wambaye umupira w'icyatsi urimo uturongo tw'umweru ,afite agakoni ari gusubiramo ibintu bishushanyije ku gikuta, impande ye hari umugore wambaye imyenda isa ubururu n'umukara.

Umuhanda w'ibitaka iruhande hari ubusitani bw'indabo ndetse n'amashuri yubakishije amatafari ahiye asize irange ry'umuhondo, asakaje amabati asa ubururu, inyuma hari ibiti.

Inyubako nyinshi zubakishijeje amatafari ahiye, hasizemo irangi ry'umuhondo, isakaje amabati, iruhande hari abana bari gukina imipira, n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano zisa, amasogisi y'umweru, inkweto z'umukara, ijipo y'ubururu bwijimye, amashati, bahagaze ku mirongo.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye impuzankano z'umweru, bamwe bicaye mu byatsi, abandi bicaye hakuno y'umuhanda ku gasima.

Abanyeshuri bicaye hasi kuri sima, bambaye impuzankano zisa, inkweto z'umukara n'amagosi y'umweru, imbere y'inzu, urugi rufunze n'amadirishya bisize irangi ry'icyatsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, zisa amashati y'umweru n'amajipo y'ubururu bwijimye. bari mu cyumba gifite amadirishya y'ibirahure, gisize irangi ry'umuhondo ndetse hari n'ikibaho, n'umwarimu uri imbere yabo uri kubigisha.

Abanyeshuri bahagaze ku murongo bambaye impuzankano zisa, amashati y'umweru, amapantaro n'inkweto z'umukara, bari kumwe n'umugabo wambaye agapfukamunwa, imbere y'urugi ndetse n'uruzitiro rw'ibiti bya sipure.

Amazu menshi yubakishije amabati ashaje asize amarangi, umuhondo n'ubururu n'ibihogo, imbere hahagaze abagabo n'umugore umwe bambaye ingofero.

Ikigo k'ishuri cyubakisheje amatafari ahiye, gisize irangi ry'umuhondo, risakaje amabati asa ubururu, iruhande hari ikigega gifata amazi cy'umukara ndetse n'igiti.

Akayira gato kagana ku nzu zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati, imbere yaho hari ubusitani bw'indabo ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Ibyumba by'amashuri bitaruzura bisakaje amabati, imbere hari intebe zihateretse ndetse n'abanyeshuri bambaye impuzankano, zisa, n'ibiti bihakikije.

Ikibuga kinini kicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, imbere yabo hari umuyobozi afite impapuro mu ntoki, inyuma amashuri yubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati asa ubururu.

Abanyeshuri bambaye udupfukamunwa bicaye bafashe ikaramu ndetse bafite n'iimpapuro kumeza imbere yabo, bicaye ku ntebe zisa icyatsi.

Icyumba kinini, kirimo intebe nyinshi, zisa ubururu, gisize irangi ry'umuhondo, umuryango urafunguye, usize icyatsi ndetse n'amakaro.

Abanyeshuri benshi bari hamwe bambaye amakanzu yumukara ningofero basoje amashuri yabo. Inyuma hicaye abantu basanzwe baje kureba ibyo birori.

Imitako y'ibibumbano iteretse ku meza ariho igitambaro cy'ubururu ndetse n'ururabo, inyuma hari impapuro zizegazinze zisa umweru zegetse ku gikuta.